Abaturage bari mu nama, bamwe baricaye abandi barahagaze, bariho barakoma amashyi bisa nk'aho bishimiye ibyo bamaze kubwirwa, bari ahantu mu kibuga kirimo ibitaka gusa harasa neza ndetse n'imodoka zitandukanye inyuma yabo.

Ahateraniye abaturage bicaye mu ntebe z'amabara atandukanye munsi ya shitingi babubakiye kugira ngo baticwa n'izuba, bariho baraganirizwa numugabo uhagaze imbere yabo bose bamutegeye amatwi.

Abantu bari mu nama biganjemo igitsina gabo ndetse barimo n'inzego zishinzwe umutekano, nka gisirikare ndetse na dasso bari mu nama, bategeje ugutwi ibyo babwirwa.

Ni mu cyumba cy'inama cyiza gifite amabara yiganjemo ay'umuhondo, abarimo barimo barakurikirana inama, higanjemo igitsina gabo, bambaye neza urabona ko bitegeye amatwi ibyo babwirwa.

Abayobozi bari mu cyumba cy'inama, bicaye ku meza y'ikizeru bariho baraganira, inyuma hari ibyapa bivuga ngo Kigali yacu Kigali ikeye bisa nkaho ari byo bariho baraganiraho.

Ku munsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe hari umugore uhagaze imbere afite indangururamajwi mu ntoki, ariho aravuga. Insanganyamatsiko y'uwo munsi iragira iti:"Twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera." Iyi nama ikaba iterwa inkunga na USAID ndetse na pepufare.

Mu cyumba cy'inama kigari, harimo abantu benshi bicaye bitegeye amatwi ibyo babwirwa, urabona ko bahuje umugambi, imbere hariyo abicaye, hari imeza isasheho ibitambaro byiza by'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Bari mu cyumba kisanzuye cy'inama, aho hari kubera umwiherero w'amakoperative ndetse n'uburyo ayoborwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, urabona ko bahuje umugambi bari kwiga, bakeneye ubumenyi ku byo bahabwa.

Abaturage barahagaze bari ahantu mu kibuga, bameze nk'abakoze ikizeru kugira ngo babashe kumvikana n'uriho arabaganiriza uhagaze hagati yabo, bategeye amatwi ibyo ababwira urabona ko mbese bose bamwitegeye.

Mu birori cyangwa se mu wundi muhango, aho abantu bicaye ku mpande ebyiri zitandukanye, abari hirya ndetse no hino, hari n'abicaye mu byatsi hirya barambije amaguru, hagati harimo umugore ufite indangururamajwi, uriho uravuga.

Ni mu cyumba cy'inama kigari, kirimo abantu bariho barakurikirana ibivugwa, bategeye amatwi ibivugwa ndetse urabona ko ari abantu bahuje umugambi w'ibyo barimo kuganiraho.

Ku munsi wahariwe ubuzima bwo mu mutwe, abitabiriye inama baricaye abandi barahagaze, bariho baraseka bafata ifoto y'urwibutso, iyi nama ikaba iterwa inkunga n'ibigo bitandukanye, harimo igikorera muri Amerika USAID ndetse n'icyitwa PEPFAR.

Abagabo ndetse n'abagore mu cyumba cy'inama kigari, kirimo amatara ahagije, barahagaze, baremye, bameze nk'aho barimo kuririmba indirimbo y'igihugu cyangwa se ikindi kintu. Imbere yabo hari imeza zishasheho ibitambaro byiza by'umweru ndetse n'umukara

Urubyiruko rwicaye hamwe mu cyumba cy'inama, mu myenda y'amabara asa nk'umweru, baganirizwa uburyo bateza imbere ibikorwa byabo, ndetse bagafatirana amahirwe yose babonye, kugira ngo ahazaza habo habe hakomeye, ndetse hameze neza.

Mu cyumba cy'inama kiri mu ibara ry'umweru ahari imeza nini iri mu ibara ry'umutuku igaragiwe n'abantu batandukanye, abagore ndetse n'abagabo, abera ndetse n'abirabura bameze nk'abategeye amatwi ibyo babwirwa, ku meza hateretse ibitabo byabo ndetse n'uducupa tw'amazi y'inyange.

Ku meza manini ariho ibitambaro bisa, ndetse n'abakobwa mu mpuzankano y'ibara risa umweru n'umukara n'abandi bambaye impuzankano yo mu gikoni y'ibara ry'umweru, bariho baraganira bahana amagambo n'umuyobozi wabo wicaye hirya abitegeye.

Ni mu cyumba cy'ishuri risize ibara ry'umweru, abanyeshuri si benshi, bamwe bafite za mudasobwa imbere yabo, zibafasha gukomeza gukurikirana amasomo, umwarimu ari imbere urabona ko ari kubasobanurira byimbitse amasomo yabo.

Mu cyumba kigari, cyisanzuye, gisize amabara y'umweru, harimo za mudasobwa nyinshi, abantu bariho barazikoresha mu buryo butandukanye, ndetse harimo imeza n'intebe zifite amabara y'umuhondo.

EBM ni gahunda ya leta, ni igikorwa gikoreshwa n'abacuruzi bato ndetse n'abanini, mu rwego rwo kugenzura imicuruze yabo kugira ngo imisoro itangwe neza kandi ku gihe, yongerewe ubushobozi rero, shyiraho enterineti ibashe kwakira apudete.

Mudasobwa iri gukoreshwa n'umuntu, iri ku rupapuro rw'lrembo cyangwa se urubuga rw'lrembo, rwagenewe gukoreshwa n'abaturage b'u Rwanda ndetse n'abagana u Rwanda, mu gihe bifuza ibyangombwa bitandukanye birimo ibyemezo by'amavuko ndetse n'ibindi.

Itangazo ry'ikigo cya Rwanda Revenue Authority, ikigo cya leta gishinzwe imisoro n'amahoro, kirakubwira ko itariki ntarengwa ari uyu munsi, menyekanisha, unishyure, igihembwe cya kane cy'ipatanti, kanda akanyeri, magana inani, urwego, cyangwa usure urubuga ku bindi bisobanuro.

Umunara muremure cyane ukozwe mu byuma bigenda binyuranyuranamo, bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, ukaba ari uw'ikigo cy'itumanaho cya MTN, ukikijwe n'uruzitiro rw'ibyuma bigiye bihagaze ndetse binatambitse biri mu ibara ry'ivu.

Urubuga rw'Irembo rwifashishwa mu gutanga ibyemezo bitandukanye harimo icy'utishoboye wacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana icyenda na mirongo icyenda na kane. Icyo cyemezo kikaba gitangwa na minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu.

Ni mu biro runaka, ahari abagabo babiri bameze nk'abari kureba muri mudasobwa y'umukara ndetse bitegerezamo cyane nk'abariho barakora akazi, umwe ari kureba ku ruhande undi ari kureba muri mudasobwa.

Uburyo bwo kwamamaza igihugu cy'u Rwanda bifashishije intero ya Viziti Rwanda mu rwego rwo kumenyekanisha ibyiza nyaburanga bigize icyo gihugu, harimo amazu meza ndetse n'amahoteri nka Kigali Komveshoni senta.

Iduka cyangwa se butike itanga serivisi z'Ikigo cy'Irembo, urubuga rufasha Abaturarwanda mu kubona serivisi zitandukanye nk'ibyangombwa, icyangombwa cy'amavuko ndetse n'ibindi byinshi. Harimo icyuma cyifashishwa mu gusohora impapuro ndetse no gukora ibisa nk'izo baba bashyizemo.

Gahunda y'Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Imisoro n'Amahoro, imenyekanisha uburyo wakoresha usorera ibinyabiziga ndetse n'ubucuruzi buto buciriritse, irakwereka uburyo ndetse n'imibare wakanda kuri terefoni yawe, ugakurikiza amabwiriza.

Ni muri resitora cyangwa se aho wafatira ifunguro mu masaha atandukanye; hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'inyandiko ziri mu ibara ry'umweru; riramenyekanisha ko ahongaho hari murandasi y'ubuntu kandi yihuta cyane.

Icyapa cy'ubururu bwerurutse, hariho ibikoresho twifashisha turiho turafungura nk'ifoke ndetse na kuto ndetse harerekana ko ubaye uhicaye wakoresha murandasi yihuse ndetse iri ku buntu.

Egisipuresi powenti iduka cyangwa se butike ikigo cy'imari Eko banke cyashyizeho kugira ngo abakigana bahabonere serivisi zitandukanye gisanzwe gitanga zirimo izo kubitsa, kubikuza ndetse n'ibindi.

Abantu bicaye ku ntebe zitandukanye, barimo ingeri nyinshi, abera ndetse n'abirabura, abagore ndetse n'abagabo, bose bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga mu ntoki, nka telefone, mudasobwa ndetse n'ibindi byifashishwa mu gihe bumva indirimbo.

Urubuga rwitwa irembo rukorera kuri murandasi, aho ushobora kurwifashisha usaba ibyangombwa bitandukanye, harimo kuba wakongeresha igihe cy'uruhushya rwawe rw'agateganyo rwo mu muhanda.

Gahunda y'ikigo cya leta cyitwa rura iburira abantu kwirinda ndetse no kushishoza mu gihe hari abatubuzi babagezeho, ibibutsa gutekereza kabiri mu gihe ushyiramo umubare w'ibanga yawe ahantu aho ari ho hose ndetse na nimero wakifashisha utanga ubuhamya ku byakubayeho.

Umunara w'itumanaho muremure cyane udufasha guhererekanya amakuru mu buryo bworoshye dukoresheje murandasi, cyangwa se telefone mu buryo bwo guhamagarana, uri hafi y'umurima uhinzemo ibigori bimaze gukura, ndetse n'inzu yubakishijwe amatafari ifite igisenge kirekire.

Umuburo w'ikigo cy'igihugu cyitwa RURA gikomeza kuburira abantu giti: ''Shishoza mu gihe uhamagawe cyangwa wakiriye ubutumwa busaba amafaranga ndetse n'ubushukanyi bwitirirwa ibigo by'itumanaho n'izindi nzego zitandukanye." Babaha na nimero wahamagaraho mu gihe ugize icyo kibazo.

Ku meza y'ibara ry'umutuku hateretseho mudasobwa zirenze imwe ndetse na telefone. Abayigaragiye bariho baraganira ibintu bitandukanye, ubona ko barimo kungurana ubumenyi mu byo bariho baravuga.

Icyumba kirimo mudasobwa nyinshi zihagije ndetse n'intebe zihagije ku buryo buri muntu wese aba afite mudasobwa ye, akabasha gukurikirana ibyo abwirwa n'ibyo asabwa gukora bitamugoye ndetse bitamubangamiye.

Ni inzu y'inyubako igeretse, itaruzura ikiri kubakwa, iri kubakishwa amatafari azwi ku izina rya boroko sima. Ifite uruzitiro rukozwe mu mabati y'umweru ndetse iri hafi y'umuhanda w'igitaka.

Ni iminara ibiri miremire iri hirya y'imihanda, umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo icya howo, minibisi ndetse na kwasiteri ya ritiko, ndetse ku rundi ruhande hariho abamotari ndetse n'abanyamaguru batandukanye.

Iminara ibiri ikozwe mu byuma bikomeye bifite ibara ry'umweru bigenda binyuranyuranamo. Hafasheho insinga nyinshi ndetse zitondetse ku murongo umwe zigenda mu byerekezo bitandukanye.

Ni mu nzu iteye karabasasu isa nk'ikinombe ahagana ku gisenge ku mabati, ahari insinga z'amashanyarazi zicometse ku kuma kifashishwa mu gihe ukeneye gukupa umuriro cyangwa se mu gihe wifuza kuba uwufunze.

Abagabo babiri bambaye impuzankano isa yo mu ibara ry'ubururu ndetse n'ingofero z'umuhondo z'ubwirinzi, buriye hejuru kupiironi bifashishije ibyuma bambaye ku maguru, aho bari gukora ku nsinga zifasha gusakaza umuriro mu bice bitandukanye by'igihugu.

Ni agasanduku cyangwa se ibogisi, ryanditseho ibintu biri mu rurimi rw'igishinwa, mu ibara ry'umukara, karasa umweru ndetse hasi no hejuru hariho ibara ry'icyatsi cyerurutse, kari ahantu mu kigunda hari ibirabyo byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo ugenderwamo mu byerekezo byombi, ufite akayira k'abanyamaguru ku ruhande rumwe, hirya haparitse imodoka zo mu bwoko bwa Toyota, zifite ibara ry'umweru ndetse hari n'inzu y'igorofa iri mu ibara ry'umweru.

Ku ruzitiro rwubakishije amatafari azwi nka burokosima ku gipangu cya nimero mirongo itatu gifite ibara ry'ivu, hari ipoto rirerire cyane ririho insinga nyinshi ndetse zerekeza mu byerekezo bitandukanye rifasha gutanga amashanyarazi.

Ni mu rusisiro ku muhanda haracicikana amamoto ndetse n'abagenzi bagendera ku maguru. Hirya hari urukuta rw'uruzitiro runini ndetse rurerure ruri mu mabara y'umuhondo. Handitseho inyuguti ziri mu mabara y'umukara zanditseho emutiyene.

Ni ku muhanda wa kaburimbo mwiza ndetse hirya hari ubusitani, burimo aho ushobora kujugunya imyanda yakoreshejwe kugirango isuku ikomeze ibungabungwe ndetse n'ipiloni ririho kamera z'ubwirinzi, ku buryo icyaba cyose umutekano uba wizewe.

Muri parikingi nini yagutse iparitsemo imodoka zose zisa ziri mu ibara ry'umweru, ndetse n'uturongo dutukura ku ruhande. Hejuru handitseho mu magambo atukura ijambo Ambilanse.

Ni mu kirongozi cy'inyubako igizwe n'imiryango myinshi ndetse mu bikuta by'amabara y'umweru ndetse avanze n'icyatsi aho ababyeyi bicaye, bategereje guhabwa serivise runaka zitandukanye.

Ku bitaro bikuru bya Nyarugenge aho abarwayi bakirirwa, hagaragara neza hafite isuku ndetse n'indabyo ziteye amabengeza, hari ibimenyetso bishushanyije mu migongo, bizwi cyane nk'umuco w'Abanyarwanda.

Ku muryango cyangwa se ku marembo y'aho binjirira bagana muri CHUK, ibitaro biri mu Mujyi wa Kigali, hari abashinzwe umutekano, bambaye impuzankano ibaranga y'ipantaro y'ikirombe n'ishati y'umweru ndetse n'ingofero.

Abakozi bambaye impuzankano isa iriwi ibara ry'umweru ubona ko bakora mu gikoni bariho baratanga ifunguro ku masahani bavanye mu masafuriya manini ubona ko afite isuku ihagije ndetse n'ibiryo ubwabyo ubona ko bifite isuku.

Ni kwa muganga aho abarwayi n'abarwaza bategereza guhabwa serivisi zitandukanye, hari intebe bamwe baricaye abandi barahagaze ndetse hari na bamwe mu bagororwa bambaye impuzankano zabo, izisa n'iroza ndetse n'izisa na oranje.

Kwa muganga, ku bitaro biri hagati mu mujyi wa Kigali byitwa CHUK ahaparitse imodoka zitandukanye, zirimo n'imodoka ndende y'umweru yanditseho mu magambo atukura imbangukiragutabara, ibitaro bya CHUK.

Ni igorofa rinini cyane ririmo ibitaro bya Nyarugenge ndetse ni ahantu heza hari isuku, hari ibiti bibasha gutanga amahumbezi ku barwayi ndetse n'abaharwarije ndetse hari n'igipangu cyangwa se aho imodoka zizanye abarwayi zinjirira.

Ni kwa muganga ahatangirwa serivisi zo kwishyura no kwishyurwa, hari intebe nziza zo kwicaraho mu gacucu, aho izo ntebe zihana umwanya, ku buryo byagorana kwanduzanya indwara zandurira mu mwuka ndetse no mu buryo bwo gukoranaho.

Ni kwa muganga aho umurwayi ndetse n'umuganga bari, mu cyumba cyifashishwa hasuzumwa ikibazo cyangwa se indwara amaso muri rusange yaba afite, ndetse hakanakorerwa ibizamini bishobora kukumenyesha uburwayi ufite.

Inzu yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse ifite inkingi zo mu mabara y'umweru, n'igisenge kizamuye cy'umutuku, imbere haparitse imodoka y'umweru, ifite akarongo gatukura hagati, yanditseho ko ari imbangukiragutabara, yo ku bitaro bya masaka.

Ni mu kayira k'abanyamaguru gasa neza iruhande rw'amazu asize irangi ry'umuhondo ndetse n'icyapa kirangira aberekeza mu guca mu cyuma ariyo radiyoloji banyura kiri mu ibara ry'ubururu n'inyandiko z'umweru.

Kwa muganga mu bitaro mu tuyira tw'abanyamaguru ahari ibyapa bigusobanurira bikumenyesha inzira aho yerekera, izerekera mu mbagwa, izererekera mu ndwara z'amaso, izerekera ku bitaro by'abana n'ahandi henshi hatandukanye.

Imbere y'inyubako ndende y'igorofa ifite amarangi y'umweru ndetse n'ibirahure by'ubururu, hari imodoka ebyiri zivuye kuzana abagororwa, bambaye impuzankano yabo yo mu ibara ry'iroza, ndetse baherekejwe n'ababarinda ari bo bacungagereza nabo mu mpuzankano yabo y'ibara ry'ikigina.

Abapolisi babiri mu mpuzankano yabo, baherekeje Paul RUSESABAGINA, uherekejwe kuburanishwa ibyaha yakoze mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda.

Ibikuta birebire byubakishijwe amatafari ahiye by'iyahoze ari gereza nkuru ya kigali disinefu satarante. Hagaze abagororwa benshi bambaye impuzangano iri mu ibara rya orange ndetse n'uwambaye mu ibara ry'iroza, ahagaze ndetse n'umucungagereza waho.

Mu Rukiko mu cyumba cy'ahaburanishirizwa abagize ndetse n'abakoze ibyaha bitandukanye. Mu mpuzankano ibaranga abashinzwe kuburanira uwakoze ibyaha mu myenda y'umukara ndetse n'umweru baraganira n'uwo bunganira mu mategeko wambaye imyenda y'iroza.

Ni ku marembo cyangwa se umuryango aho abagana igororero rya Rwamagana banyura, hari inkingi ebyiri ndende zubatse mu matafari ahiye ndetse n'urupangu rukozwe mu byuma by'umukara, hirya turabona igisenge kirekire kisa mu ibara ry'umutuku.

Ni mu kigo cy'abagororwa gikikijwe n'inkuta ndende zubatse mu matafari ahiye, ndetse abagororwa benshi barahagaze abandi baricaye, bariho barakoma amashyi, bambaye impuzankano zabo mu ibara ry'iroza, ishati ndetse n'ikabutura, ariko bamwe bambaye ishati yonyine bashyiraho, ibindi bitandukanye hasi.

Urupapuro rumwe mu zigize igazeti ya leta rwo kuwa makumyabiri z'ukwa cyenda bibiri na cumi n'umunani, rugizwe n'impande eshatu ziri mu ndimi zitandukanye Ikinyarwanda, Igifaransa ndetse n'Icyongereza, zose ingingo zirimo ziribanda ku cyaha cya ruswa.

Ni muri sitade abaturage bamwe barahagaze, abandi baricaye, imbere yabo hari intebe ebyiri zicayeho abagororwa bambaye imyenda isa yo mu ibara ry'iroza, bariho barashinjwa ibyaha bitandukanye bakoze ndetse bagizemo uruhare.

Mu cyumba cy'urukiko kiburanishirizwamo abagize uruhare ndetse n'abakoze ibyaha bitandukanye kuri murandasi, hicayemo abagororwa benshi ndetse bambaye impuzankano isa n'ibara ry'iroza. Inyuma hahagaze umucungagereza mu mpuzankano yabo y'ibara ry'ikigina.

Ku rukiko mu cyumba kiburanishirizwamo abakoze ndetse n'abagize uruhare mu byaha bitandukanye. Harimo umuryango wa Rwigara, umukobwa we, ndetse n'umugore we mu mpuzankano ibaranga y'iroza, ndetse n'ababunganira mu by'amategeko mu mpuzankano yabo y'umweru n'umukara.

Abagororwa mu mpuzankano yabo isa mu ibara ry'iroza bariho baratambuka bamwe bafite ibikoresho by'isuku mu ntoki, bamwe bambaye amapantaro abandi bambaye amakabutura, inyuma yabo hari urukuta rurerure cyane rwubakishijwe n'amatafari ahiye.

Inyandiko yerekana abashyizwe mu myanya itandukanye mu nzego z'uburezi, ndetse n'iz'ubuvuzi, harimo abagizwe abaminisitiri, harimo abagizwe abayobozi b'ibitaro bya King Faisal Hospital aribyo byitiriwe umwami Fayisari.

Mu nzu nziza y'igorofa ifite amabara y'umweru, hahagaze abayobozi batandukanye ndetse harimo n'abasirikare bambaye impuzankano yabo y'ibara ry'icyatsi cyijimye ndetse n'ingofero z'icyatsi cyerurutse, bahagaze imbere y'ikirangantego cy'Igihugu cy'u Rwanda.

Mu rukiko mu cyumba kiburanishirizwamo abagize uruhare cyangwa se abakoze ibyaha bitandukanye, Paul Rusesabagina ahagazeyo yambaye impuzankano y'ibara ry'iroza, agapfukamunwa ndetse na dosiye y'ibyo aregwa mu ntoki ze.

Igikuta kirekire cyane cyubakishijwe amatafari ahiye n'inkingi ziri mu ibara ry'umuhondo. Ni icya gereza ya Nyarugenge ahari igipangu cy'umukara, hari umucungagereza ndetse n'abagororwa babiri bambaye impuzankano ibahuza yo mu ibara rya oranje.

Ni mu bubiko bw'impapuro nyinshi zipanze mu makarito menshi atondetse, ari mu ibara ry'ikigina, zanditseho mu ibara ry'ubururu SNG Gacaca ndetse ariho n'urupapuro rw'umweru ruriho andi magambo, imbere yaho hahagaze abagabo babiri.

Inkiko Gacaca ni gahunda yari yarashyizweho na Leta y'Igihugu cy'u Rwanda, aho hatangwaga ubuhamya bw'ibyabaye muri jenoside yakorewe Abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, hanyuma abashinjwa ibyaha bakaryozwa ndetse bakanasaba imbabazi imbere y'abo babikoreye.

Urupapuro rumwe mu zigize igazeti ya leta, rwo ku wa makumyabiri z'ukwa cyenda bibiri na cumi n'umunani, igizwe n'ibice bitatu biri mu ndimi eshatu zitandukanye, arizo: Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Mu ngingo ziri kuri uru rupapuro harimo iya karindwi yo gukoresha igitinyiro.

Ku nzu nini y'igorofa ifite amabara y'umweru ndetse n'ikigina, ahaparitse imodoka nziza nini y'umukara, irimo umuntu, uriho araganira n'umukozi w'ikigo cya polisi y'igihugu cy'u Rwanda.

Abakozi b'ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda gishinzwe umutekano w'abantu n'ibintu, bahagaze ku murongo bemye mu mpuzankano zabo z'ubururu bwijimye ndetse n'ibendera ku kuboko, bambaye ibikapu biremereye n'amacupa ajyamo amazi. Mu ntoki zabo bafite imbunda.

Ni ku nkengero z'umuhanda, ahagana ku ruhande mu kayira k'abanyamaguru, hari urujya n'uruza rw'abantu banyuranyuranamo batambuka, hahagaze umukozi w'ikigo gishinzwe umutekano w'abantu n'ibintu DASSO, mu mpuzankano yiwe y'icyatsi.

Ku gikuta gisize irangi ry'umweru hafasheho umupira uzingazingiye ku cyuma cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro mu gihe itari hafi aho, kubera ko kigera kure.

Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe umutekano w'abantu n'ibintu, igisata cy'umutekano wo mu muhanda, mu mpuzankano yiwe, yahagaritse ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka ntoya, ariho aragenzura uruhushya yahawe n'umushoferi wacyo, niba rwujuje ubuziranenge.

Ni mu kibuga cyisanzuye ahari imeza iteretseho ishyiga rya gaze mu ibara ry'umutuku ndetse n'isafuriya iriho iracumbaho umuriro mwinshi, umukozi w'ikigo cy'igihugu cya polisi y'u Rwanda mu mpuzankano yiwe mu ibara ry'ubururu bwijimye, afite umwenda utukura arimo arabigisha uburyo barwanya iyo nkongi.

Igikoresho cyifashishwa mu gihe hari inkongi y'umuriro ngo bayizimye, abenshi tukita kizimyamwoto. Ni icupa ry'umutuku ryanditseho ibintu byinshi bigusobanurira uburyo wagikoresha mu mabara y'umweru n'umukara.

Icupa rinini ry'umutuku ryanditseho amagambo mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, ryifashishwa mu kuzimya ahabereye inkongi y'umuriro, ahagana ku mutwe hariho igihombo cy'umukara, ndetse aricyo gisohokamo ibyifashishwa hazimya inkongi y'umuriro.

Ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo mu gihe cy'imvura, uratose ndetse abantu baracicikana banyura mu kayira k'abanyamaguru, polisi ihagaze ku ruhande yitegeye abacacana mu muhanda ndetse n'uko ibinyabiziga bigenda.

Amacupa abiri manini afashe ku gikuta afite ibara ry'umutuku, ndetse n'ibihombo biyafasheho biri mu ibara ry'umukara. Yifashishwa mu gihe habaye inkongi y'umuriro, akaba azwi ku izina rya kizimyamoto.

Amacupa maremare abiri mu mabara atandukanye, yose yifashishwa mu gihe habayeho inkongi y'umuriro bayizimya. Akaba azwi ku izina rya kizimyamoto, rimwe riri mu ibara ry'umutuku n'amagambo yanditseho ibara ry'umweru, irindi riri mu ibara ry'umweru n'amagambo yanditseho mu ibara ry'umukara.

Imodoka y'igihugu gishinzwe umutekano w'abantu n'ibintu ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, ikaba ari imodoka iri mu ubwoko bw'ivatiri, ifite ibara ry'umweru akarongo k'umukara ndetse n'umuhondo hagati, ikaba yanditseho Traffic Police.

Ku muhanda wa kaburimbo ahabereye inkongi y'umuriro, hari abagabo babiri mu mpuzankano yabo y'icyatsi ndetse n'umukara, bashinzwe kuzimya ahabereye inkongi y'umuriro. Abaturage ni benshi bashungereye, iruhande haparitse imodoka yabo yo mu ibara ry'umutuku.

Umukozi w'igihugu cya polisi ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda, ahagarika imodoka ngo ayibaze ibyangombwa ndetse n'ibisabwa kugira ngo ibe iri mu muhanda, kugira ngo umutekano wo mu muhanda ukomeze witabweho.

Abaturage bamamaza umukandida wabo dogiteri Habineza Frank, uturuka mu ishyaka ryitwa DGPR Green party, mu gihe cy'amatora y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho bamwamamazaga kugira ngo azatorwe.

Ku zuba ryinshi abaturage bamwe barahagaze, abandi bicaye muri shitingi nini iri mu ibara ry'umweru. Bose bakurikiranye imbwirwaruhame y'umukandida wabo Kagame Paul watanzwe n'ishyaka FPR Inkotanyi. Bambaye imyambaro itandukanye ndetse harimo n'abambaye imipira y'umweru iriho idarapo ry'iryo shyaka.

Ni mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ku munsi wahariwe gutora, abaturage barinjira ndetse banasohoka ahagenewe gutorerwa abadepite, bafite intero n'inyikirizo bavuga bati duhitemo neza.

Ni mu cyumba cy'itora ahari agasanduku ko gushyiramo igipapuro watoreyeho ndetse hari n'ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, rigizwe n'amabara atatu ariyo ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, ni umubyeyi uri kugerageza gushyira agapapuro mu isanduku amaze gukoresha atora.

Mu cyumba cy'inama, ku meza nini cyane, hicaye nyakubahwa perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'umufasha we Jeannette Kagame. Bariho baraganira n'abandi bayobozi batandukanye ubona bahuje urugwiro.

Ni mu nzu y'inteko nshinga amategeko y'igihugu cy'u Rwanda, aho bari mu cyumba cy'inama. Abayobozi ndetse n'abadepite baganira ku byagirira igihugu akamaro ndetse n'abaturage muri rusange.

Ni muri sitade imbere y'abaturage benshi cyane barenga ibihumbi, Perezida Kagame wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda ahagaze imbere yabo abaganiriza, yambaye neza ikositime y'umukara ndetse n'ishati y'umweru.

Ni mu gihe cy'amatora ndetse abaturage mu myambaro itandukanye y'amabara aranga umuryango wa FPR inkotanyi, ariyo ubururu, umweru ndetse n'umutuku, bizihiwe berekana ko bemera kwifatanya n'uyu muryango bazawutora.

Mu modoka y'umukara, umukandida Frank Habineza, yasohotsemo ari kugenda asuhuza abiteguye gushyigikira ishyaka ryiwe GDPR girini pati, ndetse abaturage bafite ibyapa biriho ishusho yiwe, bari kugenda bamwereka ko bamufitiye urukundo, biteguye kumutora.

Ni mu gihe cy'amatora, umukandida Dogiteri Frank Habineza ari imbere arimo kubwira abamukurikiye imigabo n'imigambi, ndetse na bo bizihiwe bamanitse amaboko bamwereka ko bamushyigikiye ndetse bazamutora.

Habyarimana juvenali wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, aho yari ari mu nama, yambaye akuma kamufashaga guhindura ibyavugwaga mu rurimi yumvaga neza. Akaba yaravuyeho mu gihumbi kimwe maganakenda mirongwikenda na kane, mu mpanuka y'indege yari akoze.

Abaturage batari bake, abicaye ndetse n'abahagaze, bari mu nama ahantu ku kibuga runaka, bicaye munsi y'igiti bariho baraganira.

Ni ikirango giteye mu ishusho y'urukiramende cy'ishyaka Parti Social Imberakuri, handitsemo amagambo atandukanye arimo ayo bagenderaho, ubutabera, urukundo ndetse n'umurimo. Hagati hashushanyije ururabo rw'ibara ry'umutuku n'ibibabi by'icyatsi mu kiganza cy'umuntu.

Ku munsi w'amatora y'abadepite muri bibiri na cumi n'umunani, ni ku marembo y'ikigo cya groupe scolaire Kimironko ya mbere, abayitabiriye bariho barasuhuzanya, ndetse bahatatse ibitambaro biri mu mabara y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, ariyo ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi.

Urupapuro rw'itora rwifashishwaga mu gihe cyo gutora perezida wa repubulika y'igihugu cy'u Rwanda muri bibiri na cumi na karindwi, ruriho abakandida batatu: Habineza Frank, Mpayimana Philippe na Kagame Paul. Utora yashyize ikimenyetso cya ve kuri Kagame Paul.

Ibendera ry'ishyaka PSD, rikorera mu gihugu cy'u Rwanda rigizwe n'amabara atatu, ubururu, umweru ndetse n'icyatsi, iri shyaka rikaba rihagarariwe na Visenti Biruta, akaba ari ishyaka rimaze igihe kinini rikorera mu gihugu cy'u Rwanda.

Mu gihe cyo kwamamaza abakandida bo ku mwanya wa Perezida wa Repubulika y'Igihugu cy'u Rwanda, abaturage ni benshi ndetse n'amadarapo ya FPR Inkotanyi ari mu mabara y'umutuku, umweru n'ubururu ndetse n'abashinzwe umutekano mu mpuzankano yabo.

Imodoka iri mu muhanda y'imitambiko itatu, izwi nka howo ifite ibara ry'umutuku, yikoreye ibintu byoroshweho shitingi by'umukara.

Ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo, abagabo babiri barimo barasunika ingorofani ikozwe mu byuma by'umutuku ndetse n'amapine nk'ay'imodoka, bariho barayerekeza hirya y'umuhanda, ahatagira kaburimbo.

Ni mu masaha y'ijoro ku muhanda wa kaburimbo ufite akayira k'abanyamaguru, harimo igare ririho rirasatira akayira k'abanyamaguru, ryikoreye imifuka ibiri y'umweru iremereye ndetse n'ishakoshi y'umukara hejuru.

Ni mu muhanda wa kaburimbo, harimo ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa fuso gifite ibara ry'umweru, kikoreye amatungo ari muri kontineri ifite amabara y'ubururu, harimo inka z'amabara atandukanye umweru ndetse n'umukara.

Ni muri gare haparitse imodoka zitandukanye, harimo izizwi nka mini bisi abenshi bita twegerane, ndetse na bisi nini cyane abenshi bazi nka shira umuteto, ku ruhande hari abagenzi batandukanye, abafite imizigo, ndetse n'abafite abana batoya.

Ni mu muhanda wa kaburimbo wagutse, harimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abanyamaguru batambuka, harimo ipikipiki ndetse ifite n'umugezi, n'ikibisi kinini kizwi nka yutongo abenshi bakita shira umuteto, gikora ingendo hagati mu mujyi wa Kigali.

Ni mu muhanda wa kaburimbo utagutse cyane ndetse ufite akayira k'abanyamaguru, harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo icyo mu bwoko bwa dayihatsu cy'ibara ry'umweru, kiriho kontineri ifungitse neza ndetse isashweho n'igishitingi cyo mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo, urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga, runyuranyuranamo mu byerekezo byombi, harimo nk'amapikipiki ndetse n'imodoka izwi nka minibisi ariko ifite ibirahure bifunganye inyuma ku buryo ikirimo utakibona.

Mu muhanda utari mugari wa kaburimbo, ufite utuyira tw'abanyamaguru ku mpande zombi ndetse ukaba ugenderwamo mu byerekezo byombi, harimo ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa kwasiteri gifite ibara ry'umweru, kikaba gikorera sosiyete yitwa Sitari.

Ni mu muhanda wa kaburimbo wisanzuye, ugenderwamo mu byerekezo byombi, harimo ibinyabiziga bitandukanye byerekeza mu cyerekezo kimwe, irimo kwasiteri ndetse n'imodoka ntoya, ku ruhande rw'umuhanda ahari parikingi, haparitse imodoka na zo zitandukanye.

Ni ku nzu iri mu ibara ry'umuhondo y'igorofa iri hafi y'umuhanda wa kaburimbo ufite akayira k'abanyamaguru, hacururizwamo ibiryo by'amatungo bitandukanye nk'iby'inkwavu, inkoko, ingurube, inka ndetse n'ibindi.

Gare ni agace gahurirwamo imodoka ziba ziturutse ahantu henshi hatandukanye mu Gihugu ndetse n'urujya n'uruza rw'abazitega. Higanjemo imodoka za minibisi zizwi cyane nka twegerane, zifite ibara ry'umweru ndetse n'utudomo tw'icyatsi. Harimo n'inini cyane abantu bakunda kwita shira umuteto.

Muri gare izwi cyane nka Down Town yo mu Mujyi rwagati, ahaparitse imodoka nyinshi zitandukanye, zirimo inini cyane zikunda kwitwa shirumuteto ndetse hari inyubako nini cyane igeretse iri mu ibara ry'umuhondo.

Ku muhanda wa kaburimbo unyurwamo mu byerekezo byombi ndetse ufite utuyira tw'abanyamaguru ku mpande zombi. Hanyuramo ibinyabiziga bitandukanye nk'ikiri mu bwoko bwa fuso, gifite ibara ry'icyatsi cyerurutse ndetse na oranje. Ukikijwe n'ibiti byinshi bitanga akayaga ndetse n'agacucu.

Umuhanda wa kaburimbo utari mugari cyane, ufite akayira k'abanyamaguru, harimo ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'ikamyo ntoya iri mu ibara ry'umweru, n'inyandiko z'ubururu ndetse ku ruhande hariho haranyuraho umunyamaguru uri mu mpuzankano y'abakarani, wikoreye umufuka w'umweru.

Ku muhanda wa kaburimbo ugenderwamo mu byerekezo byombi ndetse unafite akayira k'abanyamaguru, harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo icyo mu bwoko bwa shakimani gifite ibara rya oranje, abenshi bakizi nka howo ndetse n'ipikipiki iparitse ku ruhande.

Mu muhanda wa kaburimbo ufite utuyira tw'abanyamaguru ku mpande zombi, harimo ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa Yutongo, abenshi bita shirumuteto, gifite amabara menshi atandukanye arimo ubururu, umweru, icyatsi cyijimye ndetse n'umuhondo.

Ni mu muhanda mugari wa kaburimbo ndetse urimo ibinyabiziga bitandukanye n'amagare, ku nkengero ahagana mu kayira k'abanyamaguru, haparitse imodoka iri mu bwoko bwa dayihatsu, yikoreye ibintu bitandukanye byoroshe shitingi y'ubururu.

Mu muhanda wa kaburimbo wisanzuye ndetse ugenderwamo mu byerekezo byombi, harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo ipikipiki y'amapine atatu izwi nka Rifani, yagenewe gutwara ibintu biremereye nk'imizigo ndetse n'ibindi byinshi.

Ku marembo y'ahitwa gare ya Nyabugogo, abantu bariho baranyuranamo bagenda mu byerekezo bitandukanye ndetse hari imodoka iri gusohoka muri iyo gare yo mu bwoko bwa yutongo, abantu bakunda kwita shira umuteto, iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo ugenderwamo mu byerekezo byombi ndetse ufite utuyira tw'abanyamaguru mu mpande zombi, harimo ibinyabiziga bitandukanye harimo ipikipiki yo mu bwoko bwa lifani iri mu ibara ry'umweru ndetse n'igikamyo kiri mu bwoko bwa fuso cyikoreye matela nyinshi zoroshweho shitingi y'ibara ry'ubururu.

Ni ku muhanda wa kaburimbo ugenderwamo mu byerekezo byombi, ufite akayira k'abanyamaguru ku ruhande, ndetse muri uwo muhanda hashushanyijemo imirongo y'umweru yemerera abanyamaguru kuhambukira nta mbogamizi.

Umuhanda wa kaburimbo ugenderwamo mu byerekezo byombi, ufite utuyira tw'abanyamaguru ku mpande zombi, harimo ibinyabiziga bitandukanye nk'icyo mu bwoko bwa howo gifite ibara ry'umutuku ndetse n'amapikipiki atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo mugari ndetse ufite utuyira tw'abanyamaguru ku mpande zombi, ku nkengero zawo haparitse ibinyabiziga bitandukanye, hari ikiri mu bwoko bw'ivatiri, ikiri mu bwoko bwa pikapu gitwara ibintu bitandukanye biremereye ndetse hahagaze n'umunyonzi ufite igare rye.

Ni ku muhanda wa kaburimbo ufite ubusitani ku mpande zombi, hateyeho ibiti bitanga akayaga, uri kunyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye mu byerekezo byombi, harimo ivatiri ntoya y'umukara ndetse n'amapikipiki arenze imwe.

Umuhanda wa kaburimbo ugenderwamo mu byerekezo byombi, aharimo imodoka yo mu bwoko bwa fuso ifite ibara ry'umweru ndetse na moto iriho n'umugenzi. Ku nkengero hari akayira k'abanyamaguru, harimo umugenzi ugenderamo.

Umuhanda wa kaburimbo ndetse ufite akayira k'abanyamaguru, harimo ibinyabiziga bitandukanye byerekeza mu byerekezo byombi, harimo ikinyabiziga kinini kizwi nka fuso gifite ibara ry'ubururu bwijimye ndetse n'ibindi bitandukanye.

Mu mahuriro y'imihanda, ni mu masaha y'umugoroba, haragaragara abantu ndetse n'imodoka zitandukanye zirimo inini nka hoho ndetse n'iziciye bugufi n'amapikipiki, ndetse hagaragara icyapa kikwereka aho ukwiye kunyura, kiri mu ibara ry'ubururu n'ikimenyetso kiri mu ibara ry'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo ukimeze neza ugenderwamo mu byerekezo bitandukanye, harimo imodoka z'amoko atandukanye ndetse n'amagare, ufite akayira ku mpande zombi k'abanyamaguru bashobora kwifashisha bawugendamo.

Ku muhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cy'ipikipiki, ku ruhande hari inyubako zitandukanye ariko ziciriritse, hirya hari inyubako iri kubakwa itaruzura iri mu bwoko bw'igorofa igeretse inshuro nyinshi ikikijwe na supaneti y'icyatsi.

Mu muhanda wa kaburimbo ufite utuyira tw'abanyamaguru ku mpande zombi, hari kugendamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo nk'ipikipiki iriho n'umugenzi, utwajwe na motari imbere agafuka k'umweru, ndetse n'imodoka y'ikamyo ntoya ifite amabara y'ubururu.

Umuhanda wa kaburimbo ariko utangiye kwangirika, ugaragarwamo ibinyabiziga bitandukanye, harimo moto ndetse n'ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa fuso kikoreye ndetse hirya y'umuhanda ku nkengero haparitse izindi modoka ndetse n'ayandi mazu.

Ku muhanda wa kaburimbo ariko utari mugari, unyurwamo mu byerekezo byombi, harimo ikinyabiziga kizwi nka fuso, cyikoreye ibintu bitandukanye ariko byoroshweho shitingi isa icyatsi, mu gihe ikinyabiziga cyo gisa umweru.

Mu muhanda wa kaburimbo ugenderwamo mu byerekezo byombi ndetse ufite utuyira tw'abanyamaguru ku mpande zombi harimo ibinyabiziga bitandukanye nk'igare ndetse n'ikinyabiziga cy'ipikipiki izwi nka rifani iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi cyijimye.

Ku muhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye harimo icyo mu bwoko bwa fuso, kiri mu ibara ry'umweru ndetse ku kayira k'abanyamaguru hari kugendaho abagenzi harimo uwambaye impuzankano y'abakarani wikoreye umufuka munini w'umweru.

Ni mu muhanda wa kaburimbo utari munini cyane harimo ibinyabiziga bitandukanye, aho ikizwi nka rifani, ipikipiki nini itwara ibiribwa cyangwa se indi mizigo iremereye, igerageza kunyura ku modoka y'ivatiri y'umukara.

umuhanda wa kaburimbo ufite utuyira tw'abanyamaguru ku mpande zombi, unyurwamo mu byerekezo bitandukanye, harimo ikinyabiziga kiri mu ubwoko bwa fuso gifite ibara ry'umweru, cyikoreye ibintu byinshi bitandukanye, byoroshyeho shitingi y'umukara iziritswe n'imigozi.

Imodoka iri mu bwoko bwa kwasiteri isa umweru, y'ikigo cyitwa Kigali koci gitwara abantu n'ibintu, kibererekeza mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda.

Ni mu rusisiro mu gace runaka ahari umuhanda utameze neza cyane, ariko ugendwamo n'amapikipiki, ku ruhande mu kayira k'abanyamaguru aparitsemo ingorofani ikozwe mu biti, ibihagaze ndetse n'ibitambitse.

Ni ku muhanda wa kaburimbo ahaparitse ingorofani ikozwe mu byuma bya ferabeto iri mu ibara ry'umutuku, ifite ipine ry'ikinyabiziga nk'imodoka, ikoreshwa mu gutwara ibintu biremereye nk'imizigo y'ibiryo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Ku modoka iri mu muhanda, ahagana imbere ku muryango w'ibumoso aho umutwazi yicara, hariho ibirango by'ikigo kitwa Move, gikora serivisi zo gutwara abantu kibavana ahantu hamwe kibajyana ahandi, n'uburyo wabona izo serivisi mu buryo bukoroheye.

Mu muhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, harimo imodoka iri mu bwoko bwa pikapu Toyota yikoreye imizigo myinshi itandukanye, hirya hari inzu y'igorofa iri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi.

Ni umuhanda mwiza wa kaburimbo, ufite ibisata bibiri, bigenderwamo mu byerekezo byombi, uyu muhanda hagati yayo harimo ubusitani bwiza, burimo imikindo miremire ndetse n'ipoto ritanga amashanyarazi mu gihe cy'ijoro kugirango hagaragare.

Mu muhanda wa kaburimbo utari mugari ndetse ufite akayira k'abanyamaguru, gakikijwe n'ibiti byinshi kuru ruhande, haranyuramo ibinyabiziga bitandukanye, harimo n'ikiri mu bwoko bwa fuso, kirimo ibara ry'ubururu kizwiho gutwara ibikomoka kuri peteroli.

Umuhanda wa kaburimbo ugizwe n'ibisata bibiri, aho imodoka ziwugendamo zisanzuye, harimo imodoka zitandukanye zerekeza mu cyerekezo kimwe, ku nkengero hariho ibiti bitanga amahumbezi ndetse ni umuhanda ufite isuku ihagije.

Mu muhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibinyabiziga, harimo imodoka yo mu bwoko bwa minibisi izwi cyane nka twegerane, iri mu ibara ry'umweru ndetse n'uturongo ducagaguyemo mw'i ibara ry'icyatsi cyerurutse, hirya hahagaze umukozi w'ikigo gishinzwe umutekano w'ibintu n'abantu ishami ryo mu muhanda.

Ku muhanda wa kaburimbo unyurwamo mu byerekezo byombi hari kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo amapikipiki ari atwara abagenzi ndetse n'ayigenga harimo kunyuramo n'ikindi kinyabiziga cyo mu bwoko bwa fuso kiri mw’ibara ry'umweru ndetse n'umukara.

Ni ku muhanda mugari wa kaburimbo, ku nkengero zawo ahegereye agahanda k'abanyamaguru. Haparitse amagare ndetse n'abayanyonga, ni mu masaha y'ijoro. Bategereje abakiriya ngo baberekeze mu byerekezo bitandukanye aho baba bagiye.

Mu muhanda wa kaburimbo ufite n'akayira k'abanyamaguru, harimo ibinyabiziga bitandukanye birimo amagare ndetse anahetse imifuka minini y'umweru n'umuhondo imeze nk'iremereye ndetse harimo n'ikinyabiziga cy'ivatiri.

Agace kagenewe kutanyurwamo imodoka, kazwi ku izina rya kafuri zone mu mujyi rwagati, imbere y'inyubako nini kandi ndende izwi ku izina rya makuza pisi pulaza. Aha haba hari murandasi yihuta kandi ku buntu.

Ni ikibuga cyangwa se sitade yagenewe gukinirwaho imikino itandukanye y'amaboko nka voreboro. Ariko ntikiruzura ni ibitaka haracyariho abakozi bariho baragikora, bambaye impuzankano ibahuza iri mu ibara ry'icyatsi cy'akagarurarumuri.

Intebe ziteye ku murongo zifite ibara ry'icyatsi kerurutse, ziteye mu buryo busumbana ku buryo uri inyuma aba areba imbere neza, nk'izo mu nzu mberabyombi cyangwa se mu bibuga by'imipira nka sitade.

Ni umuhanda wa kaburimbo uriho ibyapa bibiri, kimwe kirerekana ko utemerewe kuhakatira, ikindi kirerekana ko uyu muhanda unyurwamo mu cyerekezo kimwe, bimwe dukunze kwita ngo sansenike.

Icyapa gifite ubuso bw'umuhondo n'umuzenguruko w'umukara, amagambo yanditsemo ari mu ibara ry'umukara, avuga ko aho ngaho hari gukorerwa ubwubatsi n'ingofero z'umuhondo zifashishwa n'abakozi bubaka, ndetse n'amakoni afite ibara rya oranje ndetse n'umweru.

Ku mihanda migari ya kaburimbo inyurwamo mu byerekezo byombi hari icyapa cyitwa tanga inzira, gifite ubuso bw'ibara ryera ndetse n'umuzenguruko utukura, gifite ishusho ya mpande eshatu icuritse kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira.

Ku muhanda wa kaburimbo uri mu gace runaka, ku nkengero hari icyapa kirimo ubwoko bw'ibyapa bibuza gifite ishusho y'ingasire ifite ubuso bwera ndetse n'umuzenguruko utukura, hagati handitsemo ijambo pa ndetse n'umukato utukura.

Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu ihagaze, gifite ubuso buri mu ibara ry'umweru, ndetse n'umuzenguruko uri mu ibara ry'umutuku, hagati harimo igishushanyo kiri mu ibara ry'umukara, kikumenyesha uko isangano riri imbere riteye.

Icyapa kiri mu masangano y'umuhanda cyerekana amazina y'iyo mihanda, kimwe kiriho ka, na gatatu ave, bivuze ko ari Kigali Nyarugenge aveni ya gatatu, ikindi kiriho ka, na mirongo itatu, Kigali Nyarugenge umuhanda wa mirongo itatu.

Ku mupaka w'igihugu gihana imbibi n'u Rwanda cyitwa Kongo aho umupaka uzwi ku izina rya Lakoronishe boda cyangwa se garande bariyeri, inyubako ziwugize zitangirwamo serivisi zitandukanye ndetse n'ibyapa bibifuriza urugendo ruhire.

Ni ku muhanda utari uwa kaburimbo abenshi dukunda kwita uw'amabuye. Ku nkengero hari icyapa gifite ishusho ya mpande enye zitangana, gifite ubuso bwera, umuzenguruko w'umukara, inyuguti zanditsemo ziri mu ibara ry'umukara, kk magana ane mirongo itatu n'icyenda.

Icyapa gifite ishusho ya mpande enye zitangana, gifite ubuso bw'umweru ndetse n'umuzenguruko utukura. Hagati hashushanyijemo ikizeru gitukura cyanditsemo inyuguti p mu mukara ndetse uciyemo umurongo utukura hasi handitsemo no pakingi.

Ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo, hari icyapa kiri mu ishusho ya mpande eshatu ihagaze, gifite ubuso bwera, umuzenguruko utukura. Gishushanyijemo umuntu mu ibara ry'umukara, ariho arambuka umuhanda.

Ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo ahari ubusitani bunini, harimo icyapa kiguha uburenganzira bwo gutambuka mbere mu isangano, gifite ubuso bw'ibara ry'umweru, umuzenguruko utukura, gifite ishusho ya mpande eshatu ihagaze.

Icyapa gifite ishusho ya mpande enye zingana, ubuso buri mu ibara rya oranje n'umuzenguruko uri mu ibara ry'umukara, harimo inyandiko zanditse mu ibara ry'umukara, rodi woke ahedi bisobanuye ko umuhanda imbere uri gukorwa.

Ni icyapa cy'umweru gikoze mu ishusho ya mpandenye, harimo ikizeru gisa n'umutuku, hashushanyijemo igare riciyemo akarongo k'umutuku, kivuga ko nta magare yemerewe kunyura aho ngaho.

Ni icyapa kinini, kiri mu ibara ry'umweru n'inzandiko ziri mu ibara ry'umukara, gitanga karibu ku basura igihugu cy'u Rwanda hahagazeho umukobwa w'umuzungu wishimiye kuhifotoreza, ni iruhande rw'umuhanda mwiza wa kaburimbo.

Umuhanda ufite nimero ya KG magana atanu na rimwe bivuze Kigali Gasabo magana atanu na rimwe, urimo imodoka izwi nka kwasiteri ndetse hirya hari inyubako ya Konvesheni senta.

Icyapa kiri mu ishusho y'urukiramende, ubuso mu ibara ry'umweru n'umuzenguruko mu ibara ry'umutuku, hagati handitsemo amagambo mu ibara ry'umukara, mirongo itandatu KM/H, bisobanuye ko ari ukugendera ku muvuduko wa kilometero mirongo itandatu ku isaha.

Icyapa gifite ishusho y'urukiramende mu buso bw'ibara ry'umweru, umuzenguruko w'umutuku, hashushanyijemo ikinyabiziga cy'imodoka ndetse n'ikipikipiki biciyemo akarongo gatukura, hasi hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru no motors vehicles, bisobanuye ko nta kinyabiziga gifite moteri cyemerewe kunyura aho.

Ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo, unyurwamo mu byerekezo byombi ndetse n'akayira k'abanyamaguru, hari icyapa kinini kimenyekanisha ko winjiye mu Karere ka Bugesera, kiri mu ibara ry'umweru n'inyandiko ziri mu ibara ry'umukara.

Ni icyapa kirekire, gifite ubuso bw'umweru n'umuzenguruko w'umukara, amagambo yanditsemo yandikishijwe ibara ry'umukara, agira ati "Keji ijana na mirongo inani n'icyenda esite" bisobanuye ko ari icyapa kiranga umuhanda wa Kigali Gasabo ijana na mirongo inani n'icyenda.

Ku muhanda ahari amarembo yerekeza mu i hoteli nziza, ifite inyubako zitandukanye harimo n'iz'amagorofa yitwa hilltop, ni hotel izwiho kugira ubusitani bwiza ndetse isuku nyinshi n'umutekano uhagije.

Ni agace cyangwa se karitsiye igizwe n'amazu menshi atandukanye, harimo aciriritse ndetse n'agezweho y'ibisenge bizamuye cyane. Hari ibikorwa remezo ndetse n'uburyo bworohereza abahatuye gufata amazi y'imvura nk'ibigega.

Agace karimo inzu nziza zubatswe mu buryo bugezweho, harimo iz'amagorofa ndetse n'izisanzwe zifite ibisenge byegeye hejuru by'amabara atandukanye, umukara, umutuku, ubururu n'ibindi.

Umuhanda w'amapave, abenshi bakunda kwita uw'amabuye uri mu gace gatuwe, kariho icyapa cyerekana ko ari ku muhanda wa nimero kaka ijana na cumi na gatatu, esite bisobanuye ko ari umuhanda uri muri Kigali Kicukiro nimero y'ijana na cumi na gatatu.

Amazu atandukanye agizwe n'amagorofa yubakishijwe amatafari ahiye n'ibisenge bizamuye, ameze nk'ububiko bwo guhunikamo ibintu cyangwa se kubikamo ibintu bitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo utari mugari, ndetse udafite n'utuyira ku mpande zombi tw'abanyamaguru; ni mu gace gatuwe n'abifashije, karimo inzu nziza mu mabara atandukanye, zifite ibisenge bizamuye ndetse n'iz'amagorofa.

Ni mu rusisiro rw'inyubako zitandukanye harimo intoya ndetse n'izifite amagorofa ageretse gatatu ziri mu ibara ry'umweru, ahari parikingi y'imodoka zirenze imwe z'umukara, iz'umweru ndetse n'abantu banyuranyuranamo.

Ku nzu nziza y'igorofa ifite amabara y'umweru na oranje, hari ubusitani bwiza ndetse n'uruzitiro rukozwe mu byuma bisa umukara na oranje, inzu izwi ku izina rya biza ikaba ikoreramo umurenge wa Kimironko.

Hagati y'imihanda ibiri myiza ya kaburimbo, hari icyapa kinini cyanditseho purayime ekonomike zone. Kiraguha ikaze mu cyanya cyahariwe inganda i Kigali. Haparitse inyuma yacyo imodoka nziza nini, zizwi nka za rukururana.

Inzu y'igorofa y’umweru nziza, yubatswe mu buryo bugezweho, ifite igisenge cyiza ndetse na parikingi nini ihagije, ifite uruzitiro rwiza ruriho igipangu cy’umukara.

Ni inzu ziri mu gace kamwe wakita nko mu mudugudu, zirasa zifite amabara amwe ndetse zubatse kimwe mu mabara y'ikijuju ndetse n'amatafari ahiye, kuri buri nzu ku gisenge hejuru hariho ibigega by'umukara bibiri bibiri.

Hafi y'umuhanda ahari inyubako igeretse gatatu, ifite amabara y'icyatsi ndetse n'ibirahure by'ubururu. Izengurukijwe n'uruzitiro rwiza ruri mu mabara y'icyatsi ndetse n'ibyuma bifite amabara y'umukara ndetse n'umuhondo. Ifite parikingi ihagije.

Hafi n'umuhanda, ahari igorofa rigizwe n'amagorofa atanu, aho Simba ya Kimironko ikorera, ahegereye icyuma kibikurizwaho amafaranga, cy'ikigo cya Eko banki.

Igorofa rigeretse rimwe riri ku nkengero z'umuhanda w'ikaburimbo, rikoreramo farumasi izwi ku izina rya dinye ndetse naho umuntu ashobora kugurira amata y'Inyange. Iyo nyubako ikaba iri mu ibara ry'icyatsi.

Mu murima munini urimo ibihingwa bitandukanye, nk'ibigori ndetse n'insina, uzitijwe n'uruzitiro rw'ibyuma bya senkengi, uri ahitegeye agace keza karimo inzu zigezweho zifite ibisenge bizamuye biteye imbere.

Umumotari uri kuri moto ye, uhagaze mu muhanda wubatswe n'amabuye ibizwi nk'amapave, muri karitsiye runaka ifite umuhanda mutoya ndetse n'amaduka ku mpande zombi.

Icyapa gifite mpande enye zitangana, gifite ubuso mu ibara ry'umweru ndetse n'umuzenguruko mu ibara ry'umukara, handitsemo amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara k,k mirongo itanu na gatandatu s, t bisobanuye ko ari Kigali, Kicukiro mirongo itanu na gatandatu s,t.

Ku muhanda w'igitaka unyura imbere y'igipangu gisa mu ibara ry'ivu, gikikijwe n'ibiti, harimo inzu nziza ifite ibara ry'icyatsi kererutse n'igisenge cy'umukara. Inyuma yayo hari igorofa ndende ifite ibara ry'umweru.

Hafi y'umuhanda wa kaburimbo, ni inzu y'igorofa ndende igeretse gatatu, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye birimo amaduka nka betting ya power, ndetse n'iduka ricuruza imyenda, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye byitwa zimano.

Inyubako nziza y'igorofa igeretse rimwe, iri hafi y'umuhanda wa kaburimbo, ifite igisenge cyiza kiri mu ibara ry'umutuku ndetse inzu ifite ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'uruzitiro ruri mu ibara ry'ubururu bwerurutse buvanze n'iroza.

Pedros kofi, ni ahantu ushobora kwicara ukaba waganirira na mugenzi wawe mufata ikinyobwa cyizwi nk'ikawa, hari isuku, hari amahumbezi, haragaragara ibiti byiza ushobora kwicara bikaguha akayaga.

Ni agace kari hafi y'imihanda ya kaburimbo, kagizwe n'inzu nziza, inyinshi zigeretse, ziri mu mabara atandukanye; umweru, iroza ndetse n'umuhondo, zose zifite ibisenge bizamuye ndetse bigezweho, na byo biri mu mabara atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga nka moto ndetse ku nkengero hariho abantu bagendera mu kayira k'abanyamaguru, hirya hari inyubako nziza y'igorofa igizwe n'amabara y'ikijuju ndetse n'umweru.

Mu muhanda w'igitaka uri mu gace kazwi nka Giporoso, muri koridori, hari abantu benshi bacicikana ndetse n'inyubako zitandukanye, ibinyabiziga biriho biragenda ndetse hari n'ibiparitse ku ruhande, nk'imoto ndetse n'amamodoka atandukanye.

Ukuguru k'umuntu uhagaze ku mapave, yambaye ipantaro y'ikoboyi y'ubururu bwijimye ndetse n'inkweto zifite amabara atatu atandukanye, harimo umutuku wijimye, umukara ndetse hasi ku rukweto ni umweru.

Ni mu gihe cy'iminsi mikuru, ibirugu biratatse, ahagana ku muryango cyangwa se ku marembo y'ibiro cyangwa se ishami rya banki ya Kigali, aho ritangira serivisi zitandukanye, zirimo kuguriza, kubikuza, kubitsa ndetse n'ibindi bitandukanye.

Hafi y'umuhanda wa kaburimbo, hari inyubako izwi ku izina rya Angirikani Hawuzi, ni inyubako igeretse rimwe ikorerwamo n'ibikorwa bitandukanye, birimo amaduka acuruza ibintu byinshi nk'imyenda y'abagore, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Mu muhanda wa kaburimbo muri Kigali, hagati mu byerekezo byombi, harimo ubusitani bwiza buteyemo ibiti by'imikindo bigenda bisumbana, hirya hari amagorofa menshi atandukanye y'amabara y'umweru ndetse n'izindi nyubako zitandukanye.

I Kanombe mu Kajagari, ni mu mujyi wa Kigali, hafi y'umuhanda w'amabuye, hari inzu nziza igeretse, iri mu ibara ry'umweru, ndetse n'ikijuju, ifite ibirahure by'umukara, na korotire nziza cyane, iri mu ibara ry'ikijuju.

Ku mahuriro y'imihanda ibiri ya kaburimbo ndetse ifite n'utuyira tubiri tw'abanyamaguru, hari kunyuramo imodoka iri mu ubwoko bwa mini bisi ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibirahuri by'inyuma bifunze ku buryo utabasha kurebamo, hirya hari ibiti byinshi bigize agashyamba ubona ko gatanga umwuka mwiza.

Ahedi ni ikimenyetso cyangwa se imburo cyangwa inyandiko iba yanditse muri kaburimbo hagati mu magambo manini cyane y'umweruru, imenyesha ko imbere hari ikintu runaka ugomba kwitondera, cyangwa se ugomba gushishoza mbere y'uko uhanyura.

Icyapa gishinze ku nkengero z'umuhanda wa kaburimbo, ifite akayira k'abanyamaguru, kiri mu ishusho y'urukiramende n'ubuso bw'umweru n'uruziga rw'umutuku, hagati harimo inyuguti ya P iri mu ibara ry'umukara ndetse iciyemo umurongo utukura.

Ni umuhanda wa kaburimbo mugari ugenderwamo n'ibinyabiziga bitandukanye mu byerekezo byombi. Ku ruhande ahari parikingi yagenewe ibinyabiziga, hahagaze imodoka iri mu bwoko bwa howo ifite ibara ry'umutuku. Iriho ikimenyetso cy'uko yagize ikibazo irimo irakorwa.

Umuhanda munini wagutse wa kaburimbo harimo ibinyabiziga bitandukanye harimo igare imodoka ntoya izwi nka voturi ndetse n'ikinyabiziga kiri mu bwoko bwa toyota gifite kontineri inyuma ikonjesha yifashishwa batwara inyama.

Ni ku masangano y'umuhanda munini mugari wa kaburimbo, unyurwamo mu byerekezo byombi ahari imirongo ishushanyije y'umweru, yerekana ko abanyamaguru ariho bakwiriye kwambuka, umuhanda hariho harambuka abanyamaguru babiri ndetse umwe witwaje igare mu ntoki.

Ni imihanda ibiri umwe uri hejuru y'undi dukunze kwita ngo ni ku kiraro, umuhanda wo hasi uri kunyurwamo n'ibinyabiziga harimo nka moto ebyiri ndetse n'igikamyo. Uwo muhanda wo hasi ushobora kunyurwamo n'imodoka ndende ntihagire ikibazo bitera kubera ko undi uri hejuru cyane.

Ku muhanda wa kaburimbo mugari ndetse ufite akayira k'abanyamaguru harimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo icyo mu bwoko bwa minibisi kiri mi ibara ry'umweru ndetse ku miryango n'amadirishya handitseho mu Rwanda muzilimu komyuniti.

Umuhanda utarimo kaburimbo, ndetse utanaguye cyane, abenshi dukunda kwita uw'igitaka, uri mu gace gatuwe ndetse gatuje cyane, ubona ko karimo umutekano uhagije kuko hari n'isuku cyane.

Ni igifata amashusho gishyirwa ku mihanda itandukanye y'igihugu cy'u Rwanda, gifite ibara ry'ivu ndetse n'umukara, ishyirwaho kugira ngo iburire abawunyuramo kugabanya umuvuduko, ndetse no guhana abatayubahirije mu rwego rwo kwirinda impanuka zitateganyijwe.

Mu masangano y'imihanda ya kaburimbo, ituruka hirya no hino hatandukanye, harimo ubusitani bwiza burimo ibiti ndetse n'ubwatsi butoshye. Mu muhanda hari kunyuramo imodoka zirenze imwe iz'umukara, iz'umweru ndetse n'abanyamaguru hirya.

Ni mu isangano ry'imihanda minini cyane, mu muhanda harimo imodoka yo mu bwoko bw'igikamyo cy'imitambiko ine ndetse cyikoreye kontineri, ndetse tubonamo n'icyapa kiriho isaha nini.

Ni umuhanda werekeza Nyanza ya Kicukiro, aho umuhanda umwe unyura hejuru ndetse undi ukanyura hasi. Hagati yawo harimo ikiraro cyorohereza abashaka kwambukiranya bajya hirya kuwunyuramo nta mbogamizi.

Ni ku muhanda wa kaburimbo unyurwamo mu cyerekezo kimwe, ku muhanda hashushanyije imirongo y'umweru, yerekana ko ari aho kwambukira ndetse ku nkengero z'umuhanda hari ibyapa bibiri kimwe cyerekana ko hafi aho hari ishuri ndetse ko hambukira abana batoya.

Ni mu masangano y'umuhanda munini cyane werekeza mu byerekezo byinshi bitandukanye, ahari igikoresho cyifashishwa kiburira amamodoka ngo bitegereze umwanya runaka, hanyuma bibone gukomeza urugendo, kizwi nka feruje.

Akayira k'abanyamaguru gasashemo amatafari aringaniye neza ubona ko bifite isuku, ku ruhande hari ubusitani bwiza butoshye ndetse burimo n'ibiti byinshi ku buryo bitanga akayaga k'uhatemberera ndetse bigatanga n'umwuka mwiza.

Mu muhanda mugari wa kaburimbo, ufite utuyira tubiri tw'abanyamaguru ku mpande zombi, ndetse ukikijwe n'ibiti birebire, nta rujya n'uruza rw'ibinyabiziga birimo uretse moto imwe irimo irahanyura hagaragara umutuzo mwinshi.

Ni ku muhanda wa kaburimbo, unyurwamo mu byerekezo byombi, aho ku ruhande rw'iburyo, hari icyapa cy'aho abagenzi bicara cyangwa se bahagarara bategereje bisi ndetse mu muhanda hari kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye, aribyo igikamyo cya hoho ndetse n'ipikipiki.